Umwana waje gushaka amazi ku ivomo rusange yitwaje amajerekani, aho aya mavomo agenda yubakwa na leta hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho n'amazi meza abafasha kugira isuku mu bikorwa byabo bya buri munsi, birinda ko bagira uburwayi butandukanye buturuka ku mwanda.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, haragaragara umuganga urimo gusuzuma umubyeyi utwite akoresheje ibikoresho byabugenewe bikagaragaza iterambere mu buvuzi aho ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kunoza iyi serivisi hagamejwe ko abazihabwa bagira ubuzima bwiza.

Abaturage benshi bari bitabiriye kwisuzumisha icyorezo cya virusi itera sida, nyuma yo gusobanurirwa neza ububi bw'icyi cyorezo. Aho bari bitabiriye ubukangurambaga kugira ngo basuzumwe hanyuma abasanga baranduye batangiye gufata imiti. Iyi akaba ari muri gahunda zashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, mu rwo guhashya burundu icyorezo cya virusi itera sida.

Umumama uvuye kuvoma amazi ku ivomo rusange, aho ayikoreye mu ijerekani ifite ibara ry'umuhondo. Aya mazi akaba amufasha mu bikorwa bitandukanye byo kugira isuku, cyane cyane hagamijwe ko abantu birinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda, aho bayakoresha bayakaraba ndetse banayakoresha isuku mu bikorwa bitandukanye.

Umujyanama w'ubuzima urimo gusuzuma umwana areba niba afite ibibazo by'uburwayi bitandukanye. Aho abajyana b'ubuzima bavura indwara zinyuranye hirya no hino mu gihugu harimo nka malariya, impiswi ndetse n'izindi zikunda gufata abakiri bato hagamijwe ko serivisi z'ubuvuzi zitezwa imbere ndetse zikagera kuri bose hirya no hino mu gihugu.

Umunyeshuri wambaye impuzankanogi igizwe n'ishatibururu ndetse n'ikabutura y'umukara aho ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kuri kandagirukarabe yika kuri gahunda ya leta gukandagira kab zishyirwa hirya no hino cyane cyane ku bwiherero mu rwego rwo gufasha gukoresha kugira isuku ba bakaba intoki n'amazi meza n'isabune nyuma yo gukoresha ubwiherero birinda indwara zitandukanye zishobora kwandurira mu mwanda.

Abana barimo gukaraba amazi meza ku ivomo rusange boga intoki, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi, kuko kugira isuku kenshi umuntu karaba intoki n'amazi amezi n'isabune bimufasha kurinda indwara zitandukanye cyane cyane zituruka ku mwanda ndetse n'izindi zizishamikiyeho.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kigaragaza umumama uteruye umwana, cyatanzwe n'umuryango wita ku burenganzira bw'umwana UNICEF ku munsi mpuzamahanga, wagenewe kwizihiza ubuzima bw'umugore n'umwana, ibi akaba ari ukwibutsa abatanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye ko bagomba kwita ku buzima bw'umugore, ubyara ndetse n'umwana cyangwa se umugore utwite, kuko ari ishingiro ry'ubuzima ku bantu bose.

Umwana urimo kuvoma amazi mu kajerekani atemba mu mugezi, aya mazi akaba yifashishwa mu gukora ibikorwa by'isuku bitandukanye hagamijwe ko abayikora bagira ubuzima bwiza birinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda nk'impiswi, macinya, ndetse n'izindi.

Abaturage baje kuvoma amazi ku ivomo rusange bitwaje amajekani; aya mazi akabafasha mu gukora ibikorwa bitandukanye by'isuku, yaba ku myambaro, aho baba mu bikoresho byabo, ndetse n'ahandi, hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza buzira indwara zitandukanye, cyane cyane iziterwa n'umwanda.

Abana bato b'abanyeshuri bagiye gushaka amazi kw’ivomo rusange bitwaje amajerekani, indobo, utubido, ndetse n'ibindi. Ibi bikaba bifasha abaturage kugerwaho n'amazi meza hirya no hino mu gihugu, bagira isuku yaba ku myambaro, ku biribwa, Ibiryamirwa ndetse n'ahandi hose, hagamijwe ko birinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, aha hakaba ari mu cyumba cyagenewe kubagwa. Hagaragaramo abagabo batatu bakora iyi serivisi yo kubaga, aho babiri muri bo bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'itaburiya y'ubururu, udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki, aho bafite mu ntoki kandi amakarita n'ibikoresho bifashisha mu kazi kabo ka buri munsi.

Abaforomo ndetse n'abaforomokazi, nyuma yo gukora ubukangurambaga bwari bwakozwe hirya no hino mu gihugu, bakingira abana ndetse n'abakuru, indwara zitandukanye ziganjemo iziterwa n'umwanda, nk'inzoka n'izindi. Bagahabwa imiti yica inzoka ndetse n'ibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza. Ibi bikaba byari mu bukangurambaga bwabaye mu rwego rwo gufasha abaturarwanda kugira ubuzima bwiza.

Abana b'abanyeshuri barimo gukaraba intoki ku ivomo rusange iyi akabawe n'mazi zitangwa'u guke by'ubuvuzikaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune bifasha abantu kugira ubuzima bwiza birinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda nk'imipiswi bacinya ndetse n'izindi.

Itsinda ry'abajyanama b'ubuzima aho bari bitabiriye amahugurwa yateguwe na minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cyita ku buvuzi RBC. Mu bari bari bahugurwa kwivura indwara zitandukanye ndetse no kuzisuzuma cyane cyane izibasira abana bato harimo nk'impiswi, nk' umusonga ndetse n'izindi.

Umwana urimo kwikorera amazi amaze kuvoma ku ivomo rusange, imbere ye hahagaze umupapa nawe uje gushaka amazi kuri iri vombo, aya akaba ari amavomo agenda yubakwa hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho n'amazi meza, abafasha kugira isuku mu bikorwa byabo bya buri munsi birinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Abantu benshi bambu udupira tw'umweru ndetse nabandi bambaye tw'ubururu bafite icyapa mu ntoki cyatanzwe na minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cyabo cyitwa ku buzima ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya kanseri aho bari mu bukangurambaga babwira abantu ibi ya kanseri ndetse banabakangurira kubisuzumisha kugira ngo harebwe niba yavurwa hakiri kare.

Icyapa cy'ikigo cya wasake gishinzwe gukwirakwiza amazi meza hirya no hino mu gihugu murwego rwo gufasha abatu bice bitandukanye by'igihugu kugerwaho n'amazi meza abafasha kugira ibikorwa by'isuku yaba ku mubiri ku myambaro ndetse n'aho baba mu rwego rwo kubafasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, ari gukaraba neza intoki n'amazi meza n'isabune kuri kandagira ukarabe. Iyi akaba ari imwe muri gahunda zashyizweho hirya no hino mu ngo z'abaturage ndetse no kunyubako zihuriraho abantu benshi, ku rwego rwo gufasha abaturage kugira isuku bibuka gukaraba kenenshi intoki n'amazi meza n'isabune mu rwego rwo kubafasha kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Abamama bari hamwe mu cyumba cy'inama bitabiriye amahugurwa agamije kuzamura imitegurire y'amafunguro y'abana hibandwa uko bahabwa indyo yuzuye yujuje ibisabwa . Igizwe n'ibitera imbaraga ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara mu rwego rwo gufasha abana babo kugira imikurire myiza yaba mu gihagararo ndetse no mu bwenge.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ijipo y'umukara ari kuvoma amazi ku ivomo rusange. Amazi akaba ari kimwe mu byifashishwa bigirwamo inama n'abaganga mu kurinda indwara zitandukanye zandura ziterwa n'udukoko, cyane cyane iziterwa n'isuku nke.

Abana benshi mu b'abanyeshuri bicaye bakoze uruziga bari kumwe n'abarezi babo, bicaye hasi aho bitabiriye amahugurwa yari agamije kubatoza kugira isuku yo mu kanwa bakoresha amazi meza ndetse n'imiti yabugenewe ndetse n'ubuso bwo mu kanwa bibafasha kwirindara indwara zitandukanye zifata mu kanwa nk'ifumbi ndetse n'izindi.

Ubukangurambaga bwateguwe n'ikigo kitegamiye kuri Leta cyita ku burenganzira bw'abana cya UNICEF, aho cyari cyitabiriwe n'urubyiruko ndetse n'abandi batandukanye, bakangurira abana kugira ubuzima bwiza bitabwaho mu minsi igihumbi ya mbere baha indyo yuzuye, ndetse hitabwa ku mirire yabo ya buri munsi nka kimwe mu kibafasha kugira imikurire myiza, bityo bagakura mu bwenge ndetse no mu mvamutima.

Abaganga ndetse n'abakozi kwa muganga batandukanye ubwo bari bavuye mu mahugurwa yabahurije hamwe yateguwe n'ikigo cya HDI ubwo bareberaga hamwe uruhare rwabo mu gufasha urubyiruko kwirinda kwandura indwara zitandukanye zandurira mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye babahugura ndetse n'ibikoresho by'ibanze byabafasha kwirinda bene izo ndwara.

Umugore uteruye umwana arimo guseka cyane aho yagiye kuvoma amazi ku ivomo rusange yitwaje indobo aya mavomo akaba agenderwa hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho n'amazi meza abafasha kugira isuku mu bikorwa byabo bya buri munsi hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza birinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Ababyeyi baje gushaka amazi ku ivomo rusange, bitwaje ibikoresho bitandukanye harimo indobo, amabasi ndetse n'ibindi. Aya akaba ari amavumo agenda ashyirwa hirya no hino mu gihugu, mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho n'amazi meza, abafasha kugira isuku mu buzima bwabo bwa buri munsi, hirindwa ko bakwandura indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Icyapa cyamamaza inama, cyateguwe n'umuryango utegamiye kuri Leta wa Serge, aho iyi nama yari igamije kubwira ko nta n'umwe ugomba gusigara inyuma mu rugamba rwo kwita ku buvuzi, aho buri wese agomba kugira uruhare mu kunoza uyu mwuga. Hagaragaramo impuguke mu by'ubuvuzi, abayobozi ndetse n'abandi bakora mu nzego zitandukanye, aho bahugurirwaga gushyira hamwe kugira ngo bazamure ireme ry'ubuvuzi, hirya no hino mu gihugu.

Umukobwa ugiye gushaka amazi yo gukoresha ibikorwa bitandukanye by'isuku, yifashishije ijereka. Aya mazi akaba amufasha gukora isuku , yaba ku mubiri, ku myambaro, ku biribwa ndetse n' ahandi hatandukanye, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda, harimo nk'inzoka macinya impiswi ndetse n'izindi.

Abayobozi mu nzego za Leta ndetse n'impuguke mu by'ubuvuzi ubwo bari bahuriye mu cyumba cy'inama bungurana ibitekerezo barebera hamwe icyarakorwa kugira ngo ubuzima bwiza ndetse na serivisi z'ubuvuzi zitere imbere zigere kuri bose hirya no hino mu Gihugu. Aho bari bicaye bazengurutse ameza ku ntebe z'umukara, umwe muri bo arigutanga imbwirwaruhame. Ku meza hateretse uducupa tw'amazi, amatelefone ndetse n'amakaye barikwandikamo imirongo migari baganiriyeho.

Umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya ifite ibara ry'ubururu arimo guhugura umubyeyi akoresheje icyapa kigaragaza amafoto y'abana ndetse n'imikurire yabo. Ibi akaba ari mu rwego rwo gufasha umubyeyi, mu kumwereka umwana ufite ikigero cy'imikurire myiza cyane cyane nyuma yo kurya indyo yuzuye ndetse no kwitabwaho mu minsi igihumbi ya mbere. Uko aba afite igihagararo ndetse anakura bigaragazwa n'iki gishushanyo umujyanama w'ubuzima arikumwereka.

Abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri barimo gukaraba intoki ku mavomo rusange n'amazi meza n'isabune, ibi akaba ari bimwe mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukaraba intoki kenshi amazi amazi meza n'isabune bifasha abana kwirinda indwara zitandukanye zandura cyane cyane ziterwa n'umwanda.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, harimo nko gusuzuma, gutanga imiti ndetse n'izindi, haragaragara abavuzi barimo kwandika imyirondoro y'abarwayi mu cyumba cyagenewe kwakirwamo abarwayi ahazwi nko kuri reception. Aho umurwayi agenda agatanga imyirondoro ye, harimo iy'ubwishingizi akoresha mu muryango we ndetse n'ibindi, aya makuru yose akifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi zinoze.

Abaturage batashye ivomo ryubatswe mu gace batuyemo. Yubatswe ku bufatanye na unicefu ibinyujije muri Guverinoma y'u Rwanda, aho bari barimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune ku munsi wo gutaha iri vumbero. Ibi bikaba ari mu rwego rwo kubibutsa ko bagomba kugira isuku mu byo bakora; cyane cyane bakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Abayobozi munzego za leta zitandukanye ndetse n'impuguke mu by'ubuvuzi ubwo bateraniye hamwe mucyumba cy'inama kugira ngo bungurane ibitekerezo ku nyungu zitandukanye zijyanye n'ubuzima cyanecyane harebwa uburyo serivisi z'ubuvuzi zakwegerezwa abaturage hirya no hino mugihugu, bicaye bazengurutse ameza imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi barimo kungurana ibitekerezo ndetse bafite n'amakaye barimo kwandikamo imirongo migari ibyo baganiriyeho.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe aho bari gukaraba intoki ku ivomo rusange bakoresha amazi meza n'isabune, ibyo akaba ari bimwe mubitangwa n'impuguke mubijyanye n'ubuvuzi ko mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye cyane cyane zituruka ku mwanda, abantu bagomba gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune.

Abana baje gushaka amazi ku ivomo rusange bitwaje utujekani dutoya aho barimo gupomperwa n'umukobwa urimo gusunika umugezi azamura amazi mubutaka. Aya akaba ari amavomo agenda yubakwa hirya no hino mu gihugu murwego rwo gufasha abaturage kugerwaho n'amazi meza abafasha kugira isuku mu bikorwa byabo bya buri munsi hagamijwe ko birinda indwara zitandukanye zituruka kumwanda.

Umwana w'umuyeshuri wambaye impuzankano yabugenewe arimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune nyuma yo gukoresha ubwiherero kuri kandagira rukara, aho yari itangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi bwo gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune cyane cyane igihe umuntu avuye mu bwiherero bimufasha kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku dukoko dukwirakwizwa n'umwanda.

Ibiganza by'umuntu uri gukaraba amazi meza kwivomo rusange iyo akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu byubuvuzi gukaraba kenshi intoki n'amazi meza ndetse n'isabune bifasha ubikora kwirinda indwara zitandukanye cyane cyane zituruka ku dukoko ndetse n'izituruka ku mwanda hagamijwe ko abantu bagira ubuzima bwiza.

Abayobozi bo mu Nzego z'Ibanze za Leta, ubwo barimo baganira n'impuguke mu by'ubuvuzi zikorera ku kigo nderabuzima, barebera hamwe uko indwara zituruka ku mwanda zihagaze kugira ngo hafatwe igenamigambi rigamije gukangurira abaturage kugira isuku, ibi bigakorwa hifashishijwe amakuru bahabwa n'ikigo nderabuzima.

Umukozi mu nzego z'ubuvuzi ubwo yari yambaye itaburiya ndetse n'uturindantoki afite kandi n'agapfukamunwa aho arimo gusuzuma umurwayi umwicaye imbere aha akaba ari mu gihe cy'ikibazo cya kovide cumi n'icyenda ubwo abakozi ba serivisi z'ubuvuzi bagendaga basuzuma ahantu hirya no hino hagamijwe gutahura abafite iki cyorezo ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi.

Abaturage baje kuvoma amazi ku ivomo rusange, aya akaba ari amavomo yubatswe hirya no hino mu gihugu na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho n'amazi meza abafasha mu kugira isuku yaba ku myambaro, mu byo barya ndetse no mu ibikoresho byabo bya buri munsi hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza birinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye ndetse n'abikorera aho barimo kungurana ibitekerezo barebera hamwe uruhare rwa buri rumwe mu kuzamura imibereho myiza y'abatuye igihugu cyane cyane hitabwa ku gisata cy'ubuzima nka kimwe mu bikenerwa hirya no hino cyane mu gihugu kandi mu buzima bwa buri munsi.

Umujyanama w'ubuzima urimo guhugura umuryango ugizwe n'umugabo ndetse n'umugore abereka ibiribwa bigomba kwitabwaho igihe umubyeyi atwite ndetse n'ibyo agomba kwirinda mu rwego rwo kumufasha kugira ubuzima bwiza ndetse no guha ubuzima bwiza uwo atwite ahrimo nko kuva ku nzoga ndetse no kwibanda ku biribwa ndetse n'imbuto nk'amwe mu mafunguro akungahaye ku myunyu ngugu akenrewa n'ababyeyi batwite.

Abana b'abanyeshuri bari gukaraba intoki kurwogero rusange bwashyizweho mu rwego rwo gufasha abanyeshuri ndetse n'abandi bose kugira isuku mu bikorwa bya buri munsi bakaraba intoki n'amazi meza n'isabune inshuro nyinshi bibafasha kwirinda indwara zandura ndetse n'iziterwa n'umwanda harimo nk'impiswi, macinya n'izindi.

Abaturage b'ingeri zitandukanye harimo: abagore, abasaza, abana, inkumi ndetse n'abasore, baje gushaka serivisi z'ubuvuzi ku Kigo Nderabuzima kibegereye. Ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi aho hirya no hino mu Gihugu hari Ibigo Nderabuzima bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ibi bikorohereza abatuye hirya no hino kubone izo serivisi bitabagoye.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi ufite agakombe urimo gukarabya abandi intoki mbere' bajya gufata amafunguro, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi kuko gukaraba intoki kenshi n'amazi meza ndetse n'isabune ibifasha ubikora kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda nk'impiswi, macinya ndetse n'izindi zitandukanye.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye abikorera ndetse n'impugu by'ubuvuzi ubwo baganiraga hamwe harebwa uruhare rwawo rumwe kugira ngo ubuvuzi butere imbere mu Rwanda bicaye neza bakikije ameza hateguyeho ibitambaro by'ubururu n'umweru bafite uducupa tw'amazi ndetse imbere yabo hari ibyapa bigaragaza buri wese n'ikigo yaje ahagarariye.

Umumama urimo gukarabya u itmwana we intoki akoresha amazi meza ndetse n'isabune mu rwego rwo kumufasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda. Akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko mu rwego rwo kwirinda ibyorezo ndetse n'indwara zinyuranye abantu bagomba kugira isuku by'umwihariko bakaraba intoki n'amazi meza n'isabune inshuro nyinshi.

Itsinda ry'abaganga bari bamaze kwitabira amahugurwa yatanzwe n'umuryango utegamiye kuri Leta, bigira hamwe uburyo banoza imitangire ya serivisi mu kazi kabo ka buri munsi, nka bamwe mu cyiciro cy'abantu bafite uruhare runini mu gufasha abaturage kumera neza cyane cyane babagarura mu buzima busanzwe, nyuma yo kugira ibibazo by'ubuzima bitandukanye. Aho wari wateguwe n'umuryango utegamiye kuri Leta uhagarariwe n'Umuyobozi wawo, bakaba bari barimo gufata ifoto y'urwibutso.

Abanyeshuri bagizwe n'abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano ya kaki, bari ku mavomo rusange barimo bavoma amazi yifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'isuku bigamije kurwanya indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Abana ndetse n'umugabo baje gushaka amazi ku ivomo rusange bitwaje amajerekani, aya akaba ari amavomo agende yubakwa hirya no hino mu gihugu hagamijwe kuba abaturage bagerwaho n'amazi meza bafasha mu kugira ibikorwa by'isuku mu buzima bwa buri munsi, hagamijwe mu kwirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Abaturage biganjemo abamama bafite abana bari bitabiriye amahugurwa yateguwe n'umuryango utegamiye kuri leta wa om aho uyu muryango warimo guhugura ababyeyi gutegura indyo yuzuye abana babo nka bumwe muburyo bwabafasha kugira ubuzima bwiza birindaindwara zitandukanye ndetse birinda igwingira ryabo bahabwa indyo yuzuye.

Abajyanama b'ubuzima ni bamwe mu batanga serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze hirya no hino mu midugudu, hagamijwe ko abaturage bagerwaho na serivisi nziza z'ubuvuzi. Uyu mujyanama akaba yari arimo kwereka umubyeyi ibisubizo nyuma yo gusuzuma umwana we, amwereka icyavuyemo kugira ngo bamenye ingamba bafata ku bijyanye n'ubuzima bw'uyu mwana wari urwaye.

Umubyeyi witeze igitambaro cy'umuhondo, asigatiye umwana iruhande rwe hicaye undi mwana, barimo gutunganya ibyo guteka byiganjemo ibinyampeke. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi, ko kurya amafunguro yuzuye agizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara, bifasha ababikora kugira ubuzima bwiza ndetse bigaha n'umubiri wabo ubudangarwa ku ndwara zitandukanye.

Umujyanama w'ubuzima wasuye abaturage aho arimo kubahugura akamaro ko kuryarya indyo yuzuye ndetse no kwita ku bintu cyane ku bikomoka ku nyama, amafunguro y'abana nka kimwe mu bibafasha mu kugira imikurire myiza. Ibi akaba ari ubukangurambaga bukorwa hirya no hino mu gihugu hagamijwe ko abaturarwanda basobanukirwa neza akamaro kurya indyo yuzuye ndetse n'uruhare rwayo mu gufasha kugira ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu miryango utegamiye kuri leta, aho babwiraga abantu ko kujya kwivuza cyangwa se gufata ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe atari ikibazo ahubwo, zikwiye kwitabwaho, nka bumwe mu buzima abantu barengagiza cyangwa bagasiga inyuma, nyamara bafite uruhare runini mu kwanduza, ndetse no gukwirakwiza ibindi bibazo by'ubuzima bitandukanye.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye abaturage ndetse n'impuguke mu by'ubuvuzi aho bitabiriye amahugurwa arimo kurebera hamwe uruhare rwa buri rumwe mu kurandura burundu icyorezo cya malariya kigaragara mu Rwanda aho babwiwe ibyo bagomba gukora ndetse n'uruhare rwa buri umwe mu kurwanya iki cyorezo.

Icyumba cy'inama cyahuriyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, impuguke mu by'ubuvuzi ndetse n'abakorerabushake, aho bari bitabiriye amahugurwa yari agamije kubaha ubumenyi ndetse n'ububasha bwo gufasha abaturage, kwita ku isuku, cyane cyane hirindwa ko bakandura indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Abaturage b'ingeri zose yaba abana bana bato, urubyiruko ndetse n'abasheshe akanguhe ubwo bari bishimiye umukandida perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame bazamura amabendera yabo, kubera serivisi z'ubuvuzi zitandukanye atugezaho nyuma y'uko bari bahashije icyorezo cya covid cumi n'ikenda cyari kimaze igihe cyugarije, bamushimira uruhare yagize mu kukirandura ndetse ko batazanamutererana.

Umusore wambaye agapira k'umweru ari guseka cyane agaragaza amenyo ye ko afite isuku, iyi akaba arimwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora isuku mu kanwa wifashishije imiti yabugenewe ndetse n'amazi meza bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza bwo mu kanwa, yirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda zifata iki gice.

Umusore urimo guseka, afite isume y'umweru ku bitugu, aho arimo gukora isuku yo mu kanwa, hifashishijwe urudodo rutangwa n'abavuzi b'indwara zitandukanye zo mu kanwa. Aho rugendo runyuzwa hagati y'amenyo rukuramo imyanda ndetse n'ibisigazwa by'ibiryo, hagamije gukora iyo suku kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zituruka ku mwanda zifata mu kanwa.

Umusore wasamye arikwerekana agakoresho yifashisha mu gukora isuku y'amenyo agakoresho kaba bagatagwa n'impimpuguke mu by'ubuvuzi cyane cyane zivura indwara zo mu kanwa nk'amenyo ndetse n'izindi, aho batanga aka gakoresho gafasha umuntu kugira isuku akura imyanda n'izindi bisigazwa by'ibiryo mu menyo mu rwego rwo kumufasha kwirinda indwara zitandukanye zishobora gufata iki gice.

Umukobwa witeze igitambaro cy'umweru ndetse yambaye isengeri y'umweru arimo kwireba mu ndorerwamo arigukora isuku yo kanwa akoresheje uburoso bwabugenewe ndetse n'imiti yagenewe koza mu kanwa, ibi akaba ari mu rwego rwo kumufasha kwirinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa zituruka ku mwanda nk'ifumbi ndetse n'izindi.

Umusore urimo gukora isuku yo mu kanwa yifashishije urudodo rwabugenewe rutangwa n'abaganga b'amenyo, aho urudodo rugenda runyuzwa hagati y'amenyo rukuramo ibisigazwa by'ibiryo ndetse n'indi myanda mu rwego rwo gufasha abarukoresha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda zifata mu kanwa.

Umwana urimo guseka arimo kwitabwaho n'impuguke mu by'ubuvuzi, bamusuzuma indwara zo mu kanwa hakoresheje ibikoresho bigezweho ndetse n'umuganga w'impuguke bikagaragaza iterambere mu buvuzi, hirya no hino mu gihugu aho abantu bahabwa serivisi z'ubuvuzi ziteye imbere ndetse hakoreshejwe ibikoresho bigezweho, bigaragaza koko indwara ndetse bikanafasha ababikora kunoza akazi kabo.

Umusore wambaye agapira k'umweru urimo gukora isuku yo mu kanwa hifashishijwe akadodo gatangwa n'abavuzi b'amenyo, aho aka akadodo kagenda kanyuzwa hagati y'amenyo gakuramo imyanda ndetse n'ibisigazwa by'ibiryo, ibi bigafasha abagakoresha kwirinda indwara zifata mu kanwa zituruka ku mwanda.

Umusore wambaye umupira w'icyatsi afite agakoresho karimo uduti twifashishwa mu gukora isuku yo mu kanwa, tugenda tunyuzwa hagati y'amenyo kugira ngo dukuremo ibiryo ndetse n'ibindi bisigazwa byasigaye mu kanwa igihe umuntu afungura, ibi bifasha ubikora kugira isuku mu kanwa yivura indwara zitandukanye zifata mu kanwa nk'ifumberi ndetse n'izindi.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'itabuririya y'umweru ndetse n'uturindantoki, aho arimo gusuzuma umurwayi wicaye ku ntebe imbere ye amusuzuma indwara zo mu kanwa yifashishijejwe ibikoresho bigezweho, ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi aho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kunoza serivisi z'uru rwego.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe ndetse n'apfukamunwa n'uturindantoki, arimo gusuzuma umubyeyi uryamye ku gitanda indwara zo mu kanwa yifashishije ibikoresho byabugenewe, ibi bigaragaza iterambere mu buvuzi aho abantu basuzumwa hifashishijwe ibikoresho byabugenewe bityo bagahabwa serivise nziza z'ubuvuzi zijyanye n'uburwayi bwabo.

Umuforomokazi urimo gusuzuma indwara zo mu kanwa, umudamu wambaye isengeri y'umukara, akoresheje ibikoresho byabugenewe. Ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi, aho ibikoresho byabugenewe bisigaye byifashishwa mu kunoza iyi serivisi y'ubuvuzi hirya no hino mu gihugu.

Ubukangurambaga bwateguwe n'ikigo cya robeto akaba ari ikigo gikora imiti yifashishwa mu gukora isuku yo mu kanwa abenshi tumenyereye nka corogti aho bari basuye abaturage babereka uburyo bagomba kuza mukanwa n'uburoso ndetse n'iyi miti mu rwego rwo kubafasha kugira isuku yo mu kanwa ka bumwe mu buryo bufasha kwirinda indwara zitandukanye zifatiye igice ziterwa n'umuumwanda.

Umuganga wambaye impuzankano yabugenewe ndetse n'akarindamunwa arimo gusuzuma umurwayi indwara zo mu kanwa yifashishije ibikoresho byabugenewe, ibi bikagagaragaza iterambere mu buvuzi aho ikoranabuhanga ryifashishwa mu kunoza uyu mwuga ndetse n'abarwayi ndetse n'abandi bakeneye izi serivisi bazibona neza kandi zibanogeye.

Ubukangurambaga bwakozwe n'abarimu bwo bigishaga abana kugira isuku yo mu kanwa bakoresheje uburoso ndetse n'imiti yabugenewe byifashishwa mu koza mu kanwa, bikabafasha kurinda amenyo yabo kwangirika biturutse ku mwanda ndetse n'izindi ndwara zifata mu kanwa zituruka ku muhandawanda nk'ifumbi ndetse n'izindi.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo gusuzuma abafite ibibazo by'umugongo bitandukanye ahagaragara igitanda gifite imisego y'umutuku aho gishobora kuzamurwa ndetse kikamanuka hari intebe kandi yicarwaho na muganga mu gihe arimo gusuzuma umurwayi hagaragara n'ibindi bikoresho bitandukanye byiganjemo amamashini byose bigamije kunoza imitangire myiza ya serivisi muri iri vuriro.

Umukobwa urimo guseka yerekana ko afite isuku yo mu kanwa .Iyi akaba ari inama mu gushishikarizwa impuguke mu by'ubuvuzi cyane cyane bw'indwara zo mu kanwa ,ko kugira isuku mu kanwa hifashishijwe imiti yabugenewe ndetse n'uburoso bw'amenyo bifasha umuntu kwirinda indwara zitandukanye, zifata iki gice zituruka ku mwanda.

Umusore ukenyeye isume y'umukara arimo gukora isuku yo mu kanwa yifashishije uburoso ndetse n'umuti wabugenewe. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi kuko kugira isuku yo mu kanwa hifashishwa imiti yabugenewe ndetse n'uburoso bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, yirinda indwara zitandukanye zituruka ku mwanda zifata mu kanwa.

Abamama benshi bambaye ibitenge barimo kuganira imbere yabo bateretse imboga zitandukanye ndetse n'imbuto aba bakaba bari mu isoko aho bacururiza imboga n'imbuto nka bimwe mu bifasha abaturage kugira ubuzima bwiza cyane cyane kubabitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuvuzi kurya imbutokenshi bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza kuko zifitemo ubushobozi bwo kurinda indwara.

Umukecuru urimo kwakira imiti ari guhabwa n'umuforomo urimo kumwitaho akaba afite ikirahuri cy'amazi mu ntoki yicaye ku ntebe arimo kumutegereza uyu mukecuru akaba ari mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze biswe nkajiatric aho baba bitabwaho n'impuguke mu by'ubuvuzi umunsi ku wundi hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga bwakorewe muri umwe mu mudugudu, bahuguraga abawutuyemo kugira ubuzima bwiza, bita ku mirire yabo, aho bashishikarijwe kurya indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara no mu byabafasha kuzamura imikurire ndetse n'imibereho yabo, bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umusaza wambaye ishati y'umutuku ndetse n'amadarubindi afite ikaramu mu ntoki arimo gusoma igitabo, uyu musaza akaba ari mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze aho bitabwaho umunsi ku wundi bakora imyitozo ndetse n'imirimo inyuranye ibafasha kuguma kugira ubwonko buzima bukora neza barinda ko basaza cyane ndetse banitabwaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umusaza wambaye umupira w'umweru urimo gukora imyitozo ngororamubiri yo kunanura amaboko akoresheje akuma gafite ibara ry'icyatsi, arimo gufashwa n'umuforomo wambaye impuzankano yabugeneye aho bagaragara hirya no hino mu bigo byagenewe kwita ku bakuze bita kubageze mu myaka ya bukuru bakoresha imyitozo ngoramubiri itandukanye ndetse banabafasha kubona amafunguro yuzuye muri bo, kubafasha kwirinda indwara zitandukanye ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Umusaza urimo guhaguruka ku gitanda afashijwe n'umusore wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi ari kumwe n'undi mukobwa umufashe ukundi kuboko uyu musaza akaba ari mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze aho bitabwagaho umunsi ku wundi yaba ku mafunguro, ku mirire, isuku ndetse n'ibindi bitandukanye hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza.

Umukecuru wishimye cyane wambaye renete arimo guseka, ari kumwe n'umukobwa w'inkumi cyane waje kumusura, aho bari mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze. Aho bitabwaho bahabwa gusoma ibitabo ndetse no gukora utundi turimo tworoheje ndetse n'imyitozo ngororamubiri, byose hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza, bitabwaho umunsi ku munsi n'impimpuguke mu by'ubuvuzi.

Umukecuru witeze igitambaro, yambaye amadarubindi, arimo kuganirizwa n'umuforomo ushinzwe kumwitaho mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze bizwi nka geatrics, aho abakuze bajyanwa bakitabwaho umunsi ku wundi hitabwa ku mafunguro ndetse banafashwa gukora ibikorwa bitandukanye byose hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza.

Umusaza wicaye imbere y'umuryango w'inzu y'iwe, yicaranye n'abana babiri batoya bose barimo kurya umugati basomeza amata, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko kurya ibikomoka ku matungo higanjemo amata ndetse n'inyama, bifasha ubirya kugira ubuzima bwiza kuko byuzuyemo intungamubiri zikenewe mu buzima bwa buri munsi.

Umukecuru wishimye cyane uri guseka, yambaye agapira k'ikigina, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, ananura amaboko. Ari gufashwa n'umuforomokazi ushinzwe kumwitaho, mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze bigaragara hirya no hino mu gihugu, aho bafasha abari mu myaka ya bukuru kwitabwaho umunsi ku wundi bagira ubuzima bwiza, haba amafunguro, kubafasha gukora imyitozo ngororamubiri, kubagirira isuku ndetse n'ibindi bitandukanye, hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza.

Umusaza wambaye ishati y'umweru urimo kugenda afashe ku bikuta bigize inyubako aherereyemo, afashijwe n'umuforomokazi ushinzwe kumwitaho mu kigo cyagenewe kwita ku bageze mu zabukuru. Aha bakaba bahurizwa hamwe bakitabwa n'impuguke mu buvuzi umunsi ku wundi hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza nko mu cyiciro cy'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye.

Umusaza ndetse n'umukecuru bicaye, imbere yabo hari ameza arambitseho udukinisho dukoze mu ibara ry'umweru, aho barimo kuganira bishimye cyane baseka. Aba bakaba bari mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze, aho bitabwaho umunsi ku wundi n'impuguke mu by'ubuvuzi kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumera neza nka bamwe mu cyiciro cy'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara zinyuranye.

Umukecuru wambaye umupira w'icyatsi uhagaze afite imiti mu ntoki ndetse n'ikiro cy'amazi agiye kunywa. Uyu mukecuru akaba ari mu ikigo cyagenewe kwita ku bakuze bigenda bigaragara hirya no hino mu gihugu, aho bitabwaho umunsi ku wundi impimpuguke mu by'ubuvuzi hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza.

Umukecuru uri mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze arimo gukora imyitozo ngororamubiri yo kurambura amaboko akoresheje umugozi aho ari gufashwa n'umuforomokazi ushinzwe kumwitaho aho uyu mukecuru ari mu ikigo cyagenewe kwita ku bakuze iki kigo kikaba kibitaho kibaha amafunguro akwiriye ndetse n'izindi serivisi zitandukanye z'ubuvuzi hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza.

Umusaza uri mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze arimo gukora imyitozo ngororamubiri afashishwa n'umuganga umwitaho, iyi akaba ari imyitozo ngororamubiri yo kurambura amaboko nka kimwe mu bigufasha kugira ubuzima bwiza ananura imikaya ndetse atuma n'amaraso atembera mubiri we, ibi bikamufasha kwirinda indwara zinyuranye ndetse akanagira ubuzima bwiza.

Umukecuru urimo guhabwa amafunguro n'abashinzwe kumwitaho mu bigo bitandukanye bibamo abantu bageze mu myaka ya bukuru. Hagamijwe ko bitabwaho umunsi ku wundi yaba ku mafunguro, imibereho, ndetse n'ibindi bitandukanye. Hagamijwe kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bamwe mu cyiciro cy'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye.

Aba mama biganjemo abakuze cyane bambaye imipiramweru ndetse n'amajipo y'umukara aho bari gukora imyitozo ngororamubiri binyuze mu bikorwa byo kubyina, aho bari mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze jackcrix, aho bakoreshwa imyitozo ngororamubiri itandukanye hagamijwe ko bagira ubuzima buzima butarimo indwara ndetse banitabwaho umunsi ku wundi n'impuguke mu by'ubuvuzi.

Abantu benshi bari mu muhanda ubwo bitabiriye ibikorwa by'ubukangurambaga bwakozwe na guverinoma y'u Rwanda ibinyujije muri minisiteri yayo yita ku buvuzi, aho barimo gusuzuma abaturage cyane cyane abari mu myaka y'abakuru indwara zitandukanye zitandura harimo umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'izindi.

Umusaza wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, arimo gukora imyitozo ngororamubiri ,ananura imikaya mu maboko akoresheje utwuma twabugenewe tuboneka hirya no hino mu nyubako zikorerwamo imyitozo ngororamubiri. Ibi bika bimufasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kunanura imitsi, hagamijwe ko ya kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umubyibuho ukabije ndetse n'umuvuduko w'amaraso.

Icyapa cyatanzwe na minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo cyita ku buzima RBC aho cyamenyeshaga abaturage bose ko urukingo rwa Yelloaw faver rwabonetse kandi ubukangurambaga kuri icyo cyorezo bwiyongerewe igihe ahori kuzageza ku itariki cumi enye z'ukwa kane maka bihumbi na makumyabiri na kane muhu rwo gufasha abaturage kwikingiza iyo ndwara.

Icyapa k'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC aho iki kigo gifite inshingano zo kwita ku buvuzi hirya no hino mu gihugu. Gitanga amahugurwa, amasomo ndetse n'ibikoresho by'ibanze ku bakora imyuga itandukanye ifite aho ihurie n'ubuzima.

Icyapa cyatanzwe na minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo cyita ku buvuzi RBC aho cyagaragazaga ibyiciro by'ingenzi byagombaga kwitabwaho bihabwa inkingo z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubwo cyari cyugarije isi umwaka ibihumbi na makumyabiri aho arimo nk'abanyeshuri abaganga ndetse n'abandi batanga serivisi z'ubuvuzi ko bagomba guhabwa urukingo rw'iki cyorezo ku ikubitiro.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego za Leta zitandukanye, abikorera ndetse n'imiryango itegamiye kuri Leta, ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya icyorezo cya virusi itera SIDA ku isi, aho barimo kungurana ibitekerezo harebwa icyakorwa kuri buri rwego, kugira ngo barandure burundu iki cyorezo.

Umuforomokazi wambaye imyenda yabugenewe igizwe n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, aho ari gutanga urukingo ku mumama wicaye ku ntebe uri imbere ye, iyi akaba ari urukingo rwo mu gihe cya covide cumi n'icyenda, ubwo abaturage mu ngeri zitandukanye bahabwaga inkingo mu rwego rwo kwirinda kwandura iki cyorezo.

Icyapa cyatanzwe n'umuryango utegamiye kuri Leta uharanira ubuzima wa Soruje, aho cyakanguriraga abantu batandukanye ko nta n'umwe ugomba gusigara inyuma mu kurwanya indwara zitandukanye, cyane cyane iz'ibyorezo zigenda zibasira isi. Iyi nama ikaba yarabaye ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa gatanu ku munsi wo ku wa kabiri.

Icyumba k'inama cyari cyahuriyemo abayobozi mu nzego za Leta zitandukanye, abikorera ndetse n'abandi baturage aho bunguranaga ibitekerezo harebwa uruhare rwa buri umwe mu kuzamura imitangire myiza ya serivise, cyane cyane iz'ubuvuzi hagamijwe ko abazikeneye bitabwaho cyane cyane ndetse bagahabwa n'ubuvuzi uko bikwiriye.

Inama mpuzamahanga yita ku buzima CPHIA, yabaye ibereye mu Rwanda ndetse abandi bakayikurikira bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'amasakazamashusho zitandukanye. Yari igamije kwigira hamwe uko abatuye isi bose bafatana urunana mu guteza imbere ubuvuzi nka kimwe mu byiciro by'abantu b'ingeri zose.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko ndetse n'abakora mu nzego z'ubuzima zitandukanye ubwo bari bitabiriye inama yari yabaye ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya icyorezo cya SIDA, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Aho iyi inama yari yateguwe n ikigo cyita ku buzima mu Rwanda RBC binyuze muri Minisiteri y'ubuzima, aho bakanguriraga abantu batandukanye gufata iya mbere mu kurwanya ndetse no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi itera SIDA.

Icyapa cyatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo kita ku buzima rbc, aho cyakanguriraga abantu kwitabira gufata inkingo za covid cumi n'icyenda igihe icyorezo cyari cyugarije isi, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, aho bashishikarizaga abaturarwanda bose gufata izi nkingo mu rwego rwo gufasha mu kugabanya ikwirakwira ry'icyo cyorezo ndetse no kugabanya impfu ziterwa nacyo.

Icyapa cyatanzwe n'ihuriro mu by'ubuvuzi RIA ari ryo Rwanda Health Initiative Authoty aho cyagaragazaga ibimenyetso bitandukanye by'indwara ya diyabete aho harimo nko kugira icyaka gikabije ukenera kuhagarika kenshi kutabona neza ndetse n'izindi.

Ubukangurambaga bwateguwe n'umuryango utegamiye kuri leta, wa EAHF, aho wahuguraga abakora muri serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, kunoza umwuga wabo nk'umwe mu myuga yitabiwe,, ndetse inakenerwa cyane hirya no hino mu gihugu hagamijwe mu bashaka serivisi mu buvuzi ko bazihabwa, kandi neza hagamijwe ko bagira imibereho myiza.

Urujya n'uruza rw'abantu bari bitabiriye inama yari yateguwe n'umuryango utegamiye kuri Leta ku bufatanye na Minisiteri y'ubuzima, aho yari irimo guhugurira abantu kugira isuku mu bikorwa byabo bya buri munsi, hitabwa ko birinda indwara zitandukanye, cyane cyane ziterwa n'udukoko dukwirakwizwa n'isuku nke.

Abakozi bo mu muryango utabara imbabare Croix Rouge, ubwo bari barifatanyije n'abaganga batanga serivisi z'ubuvuzi zibanze, ku muturage wari ugize ikibazo k'impanuka ubwo yari mu urugendo, akaba aryamishijwe kuri burankari, aho ari kwitabwaho ahabwa imiti y'ibanze ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bimufasha kugira ubuzima bwiza, akarinda gukomeza kwangirika.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa sevisi zitandukanye z'ubuvuzi harimo nko gusuzuma, gutanga imiti, ndetse n'izindi zitandukanye. Aha ha akaba ari mu icyumba cyagenewe kurwariramo igihe umuntu yandikiwe kuba mu bitaro. Aho aba afite igitanda ndetse anitabwa n' impuguke mu by'ubuvuzi umunsi ku wundi. Akurikirana ubuzima bwe neza kugira ngo agaruke mu buzima busanzwe.

Inyubako ndende y'amagorofa ifite ibirahure by'ubururu, ikoreramo ikigo itanga serivise z'ubuvuzi cya Polyclinique du plateau aha hagatangirwa serivise z'ubuzima zitandukanye harimo gusuzuma, gutanga imiti ndetse n'izindi aho abaza gushaka izi serivise bakirwa neza ndetse bagahabwa imiti ndetse n'izindi serivise z'ubuvuzi zinyuranye muri ibi bitaro.

Icyapa kinini cyane kiri ku marembo y'ibitaro bya kabgayi kiyobora abari ku muhanda ko bageze ku bitaro bya kabgayi aho babona serivisi z'ubuntu zitandukanye nk'ubuvuzi bw'amaso gusuzuma gufata imiti ndetse n'ibindi bigafasha abaturage kugira ubuzima bwiza baturiye ibitaro ndetse n'abandi muri rusange babona serivisi z'ubuvuzi zigezweho.

Iyi mashini yifashishwa mu bitaro kwa muganga mu gusuzuma abarwayi bafite ibibazo bitandukanye cyane cyane ibyibasira igice cy'umutwe. Aho ifite umwanya uryamishwa'umurwayi hanyuma agasesek umutwe mu cyuma cyabugenewe cyifashishwa mu kumusuzuma kigatanga amashusho kunkaza amashusho iri hirya muganga abakoresha ibi, bikagaragaza iterambere mu buvuzi aho serivisi z'ubuvuzi zinozwa hifashi ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Inyubako nyinshi cyane z'amagorofa zikikijwe n'imihanda myiza ijyamo, ikoreramo ikigo cya Iricadi Africa, iki akaba ari ikigo kigamije mu kuzamura ireme ry'ubuvuzi hirya no hino mu bihugu bya Afurika, hakorerwamo ubushakashatsi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bifite aho bihurira no kuzamura ireme ry'ubuvuzi mu Rwanda.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, aha hakaba ari ku nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ku babyeyi babyara ibizwi nka materinite. Hagaragara umuganga urimo gukora muri iyi boroke, aho kandi ababyeyi baza bakitabwaho mu gihe babyara, hitabwa ku buzima bwabo ndetse n'ubwo abo bagiye kwibaruka.

Abakozi bakora mu kigo gitanga serivisi z'ubuvuzi cya regasi kiriniki aba bakaba hari abaforomo batanga serivisi zitandukanye zirimo kwita ku barwayi, babaha imiti ndetse banabafasha mu bikorwa bindi bitandukanye, hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza bitabwaho umunsi ku wundi.

Icyapa kiri ku muhanda kiri mu ibara ry'umweru, kigaragaza inyubako ikoreramo ibitaro bya hopitari ra kuruwa de side kwa NYIRINKWAYA, aha hakaba atangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, harimo nko gusuzuma, gutanga imiti ndetse n'izindi by'umwihariko bakaba bafite serivisi yo kubyaza ababyeyi batwite hagamijwe ko babyara neza bahabwa serivisi z'ubuvuzi zibanogeye.

Mu bitaro kwa muganga ahatangwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, hagaragaye ibyumba bitangirwamo serivisi zinyuranye, nko gusuzuma, gufata imitsi ndetse n'izindi, hakaba ari mu cyumba gisuzurwamo abana bafite indwara zitandukanye, hagaragara ibikoresho byifashishwa n'abaganga, igitanda cyo kuryamaho ndetse n'akuma gapima uko ibiro by'umwana bihagaze.

Inyubako ifite igisenge cy'ubururu, inyubako y'umutuku yubakisha amatafari ahiye ndetse zisize amarangi y'umuhondo, iyi nyubako ikoreramo ikigo cya isange wani sitopu seta ishami ryacyo rya Remera-Rukoma, aho iki kigo gitanga serivisi z'ubutabazi bw'ibanze ku bahuye n'ibibazo by'ihohoterwa, cyane cyane ryiganjemo ashingiye ku gitsina ndetse n'andi atandukanye hagamijwe gukusanya ibimenyetso kugira ngo uwahohotewe ahabwe ubutabera.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivise zitandukanye z'ubuvuzi aha akaba ari mu gice cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi, cyane cyanee ubw'indwara ndetse n'ibyorezo bitandukanye biba byagiye bigaragara, aha harimo ibyumba kabuhariwe byifashishwa mu kunoza aka kazi ndetse n'intebe zifite ibara ritandukanye n'iryo hanze.

Abaturage bari bitabiriye ibikorwa by'ubukangurambaga byo kurwanya indwara ya kanseri y'ibere, nk'imwe mu ndwara zikomeje guhitana umubare w'abantu benshi mu Rwanda, bakaba bari bahuriye hamwe ku bitaro bivura iyi ndwara biri mu karere ka Burera ahazwi nk' i Butaro kugira ngo bahugurwe, ndetse banagirwe inama z'icyo bakora ngo birinde indwara ndetse n'ibimenyetso byayo ngo barebe niba nta batangiye kuyirwara.

Mu bitaro kwa muganga hatangwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye harimo nko gusuzuma guhabwa imiti ufata ibizamini ndetse n'izindi ahakaba aricyo cyawe kuvurwamo indwara z'amaso hagaragara udutebe twagiwe kwishyurwaho n'abarwayi mu gihe bateje guhabwa serivisi ndetse hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho byifashishwa mu kunoza iyi serivisi.

Umuforomo wambaye inifomo yabugenewe, igizwe n'ishati y' ubururu ndetse n'ipantalo y'ubururu, afite k' urutugu akuma gapima uko umuvuduko w'amaraso utera. Arimo kuganira n'umukecuru ugeze mu za bukuru, amugira inama yo kunoza imirire ndetse no kwita gukora imyitozo ngororamubiri nka we, mu byamufasha kugira ubuzima bwiza mu misazire ye.

Icyapa kinini cyane kimanitse ku muhanda, kiyobora abashaka serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, kibamenyesha ko hakora iki gitanga serivisi z'ubuzima cya frontier diagnestic center. Aha hakaba hasuzumwa indwara zitandukanye ndetse n'abazisanganywe bagahabwa imiti. Haba serivisi kandi zindi zinyuranye z'ubuvuzi, nko gutanga ibitaro, gusuzuma, gutanga imiti ndetse n'izindi.

Iri ni ivuriro riherereye mu mujyi wa Kigali, bita Legacy, rivura indwara zitandukanye, zaba izo mu nda, iz'amaso, iz'amenyo ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Hano hari imodoka z'abarwayi baje kwivuza, indwara zitandukanye ndetse hakaba hari n'imbagukiragutabara, ibasha gutabara umuntu ugize ikibazo, utabasha kugera ku ivuriro...

Umuforomokazi wambaye impuzankano yabugenewe igigizwe n'ishati ndetse n'ipanta y'ubururu arimo kugenda mu bitaro yambaye n'ikarita hakaba arimo nyubako ijyanye na serivisi z'ubuvuzi mu guzuma gutanga imiti ndetse n'izindi rwego rwo gufasha abaturage kugira ubuzima bwiza begerezwa serivisi z'ubuvuzi hafi yabo.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwagwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye aha hakaba ari mu cyumba gisuzumirwamo hagitara gije amashuka y'umweru ndetse iruhande rwacyo hari imashini kabuhariwe zifashishwa mu gusuzuma abarwayi bikagaragaza iterambere mu buvuzi ndetse n'imitangire myiza ya serivisi hifashishwa ibikoresho byabugenewe.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivise z'ubuvuzi zitandukanye hagaragara umusore urimo guhabwa serivise z'ubuvuzi. Iruhande rwe hari imashini nyinshi zicometseho imigozi imuha imiti hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi, aho abantu bahabwa serivise zijyanye n'igihe ndetse mu gihe gito.

Inyubako isize amarangi y'umuhondo ikoreramo ibitaro bya caraes Freres de la charite, ibi akaba ari ibitaro bitanga ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe zitandukanye, aho usanga zirengagizwa akenshi nyamaze nazo ari indwara nk’izindi zivurwa kandi zigakira igihe zitaweho hakiri kare.

Inyubako ikorerwamo imyitozo ngororamubiri itandukanye, yaba iyo kwiruka yifashishijwe imashini zabugenewe, guterura ibyuma ndetse n'indi myitozo itandukanye, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora imyitozo ngoramubiri kenshi, bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza yirinda indwara zitandukanye, cyane cyane ziva ku mubyibuho ukabije nka diyabete ndetse n'izindi.

Inyubako y'igorofa ifite igisenge cy'ubururu, isize amarangi y'umuhondo, imanitseho ibyapa bitandukanye, ikoreramo Ikigo Nderabuzima cya Nyarugenzi. Ahagaragara urujya n'uruza rw'abaturage, baje gushaka serivise z'ubuvuzi zitandukanye. Ibi bikagaraza iterambere mu buvuzi, aho hirya no hino mu Gihugu hari ibigo nderabuzima ndetse n'ibindi bigo bitanga serivisi z'ubuvuzi, hagamijwe kwegereza serivisi z'ubuvuzi abatuye hirya no hino mu Gihugu.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, hagaragara imashini kabuharirewe zifashishwa mu gukora serivisi zinyuranye, aha akaba ari mu cyumba gisuzuma ibizamini, hagaragara abaganga barimo kureba imbere y'imashini bategereje ko ibaha ibisubizo ku bizamini bashyizemo, ibi byose bigaragaza iterambere mu buvuzi hirya no hino mu gihugu.

Inyubako ifite igisenge cy'ubururu yubakisha amatafari ahiye isize amarangi y'umuhondo, ikaba ari'in inzu itangirwamo serivisi z'ababyeyi ibizwi nka materinete, inyubako ikaba igaragara mu bigo nderabuzima aho abarwayi baza gushaka serivisi z'ubuvuzi zitandukanye harimo kwisuzumisha, gufata imiti, ndetse n'izindi.

Inyubako y'ikigo nderabuzima ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye harimo nko gusuzuma, gutanga imiti ndetse n'izindi, aho ibigo nderabuzima biboneka hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho neza na serivisi z'ubuvuzi kandi bitabagoye aho bari hirya no hino mu gihugu.

Inyubako y'ikigo nderabuzima itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, nko gusuzuma, gutanga imiti, gufata ibizamini ndetse n'izindi. Iyi akaba ari imwe mu nzu yagenewe ababyeyi baje kubyara, aho bahabwa ubuvuzi bw'ibanze, bikagaragaza iterambere mu buvuzi mu Rwanda, aho hirya no hino mu gihugu abantu babona serivisi z'ubuvuzi, badakoze ingendo.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye hagaragara ibyumba bitangirwamo serivisi zinyuranye, aha akaba ari mu icyumba gisuzumirwamo indwara zifata cyane cyane igice cy'umutwe, hagaragara intebe y'umufariso w'icyatsi aho ishobora kuzamurwa cyangwa ikamarorwa bitewe n'usuzuma aho bagiye kumureba, hari kandi n'ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byiganjemo amamashini yifashishwa mu kuvura ndetse no gusuma izi ndwara byose bigaragaza iterambere mu buvuzi.

Umuforomokazi wambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati y'icyatsi n'ipantaro y'icyatsi arimo kugenda mu nyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi mu cyumba kivuriwamo abarwayi, iki cyumba kikaba kirimo ibitanda bisashe neza aho abarwayi batandukanye bari gusaba serivise z'ubuvuzi baryamishwa mu gihe barimo kwitabwaho n'impimpuguke mu by'ubuvuzi.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zinyuranye nko gusuzuma gutanga ibizamini, gutanga imiti ndetse n'izindi hagaragara ibyumba bitangirwamo serivisi zinyuranye haba hari ibyapa bitandukanye biyobora abashaka serivisi z'ubuvuzi aho bazikura ndetse n'inyubako zitangirwamo izo serivisi.

Mu bitaro kwa muganga hatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, aha hakaba ari mu cyumba cyagenewe mu gusuzuma indwara z'amaso, aho abarwayi baza bagasuzumwa hifashijwe imashini zabugenewe, basanga bakeneye inyunganirangingo bakazibaha, ndetse bagahabwa na serivisi z'ubuvuzi, bakomeza kwitabwaho umunsi ku wundi, ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi, aho ikoranabuhanga ryifashishwa mu kunoza uyu mwuga.

Mu bitaro kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, hagaragara abaganga bambaye impuzankano yabugenewe, barimo gusuzuma umurwayi, yambaye imyenda yagenewe gusuzuma. Aho bari kwifashisha imashini kabuhariwe, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi hirya no hino mu gihugu, bizamura imibereho myiza y'abaturage ndetse, bikanongera icyizere mu buvuzi mu Rwanda.

Inyubako nziza cyane isize amararangi y'ikigina ikorera mu ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya kanseri mu Rwanda, Rwanda canser center, aho afite ibibazo bitandukanye bya kanseri bitabwaho ndetse banakanagirwa inama z'ibyo bakora kugira ngo bagire ubuzima bwiza nyuma yo kuba bafite iyi ndwara ya kanseri.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, haragaragara abantu bajya gushaka serivisi muri ibi bitaro. Hari kandi n'ibyapa binyuranye biyobora abashaka izi serivisi, bibereka inyubako zitangirwamo ibyo bakeneye. Bigafasha mu mitangire myiza ya serivisi ndetse bikanorohereza abakenera serivisi muri bitaro kuzibona kandi bakazihabwa neza.

Umusore ndetse n'umukobwa bari gukora imyitozo ngororamubiri yo kwirukanka, bafite kandi amacupa y'amazi bitwaje bari bu kugenda bakoresha muri uru rugendo, bikabafasha kugira ubuzima bwiza nk'uko bitangazwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no kunywa amazi meza bifasha ababikora kugira ubuzima bwiza.

Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, kigaragaza uburyo butandukanye umuntu yakoramo imyitozo ngororamubiri inyuranye mu buryo bwo kumufasha gukira indwara zitandukanye, aho bagaragaza ko umuntu ashobora gukora nko kwirukanka, gusimbuka umugozi cyangwa kugenda n'amaguru, ibi byose bikamufasha kugira ubuzima bwiza, akira indwara zitandukanye.

Imashini yifashishwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ndetse n'abantu ku giti cyabo, mu gupima isukari yabo y'umubiri iri mu maraso. Iyi mashini yifashishwa cyane cyane n'abarwayi ba diyabete ndetse n'abandi bashaka kumenya uko bahagaze bipima isukari. Iyi mashini ikaba iboneka hirya no hino mu bitaro bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse n'inyubako zitandukanye, zitanga serivisi z'ubuvuzi nka farumasi ndetse n'ahandi.

Icyapa kigaragaza imipira itandukanye yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri inyuranye nko gukina umukino w'amaboko wa basiketi, gukina umupira w'amaguru, gukina rugubi ndetse n'indi iyi yose ikaba ari ifasha abayikora kugira ubuzima bwiza aho baba bakora imyitozo ngororamubiri bikabafasha kwirinda indwara zitandukanye cyane cyane zituruka ku mubyiho ukabije nka diyabete ndetse n'izindi.

Icyapa kigaragaza ibikoresho bitandukanye cyane cyane bikoreshwa n'abaganga bavura imvune ndetse n'amagufwa iyo bari mu kazi kabo ko kuvura. Ibi bikaba byiganjemo ibikoresho bikoreshwa n'abasiporutifu ndetse n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri itandukanye harimo nk'amabande, ibikoresho byunga ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abantu barimo gukora imyitozo ngororamubiri, cyane cyane bigisha abana gukora iyi myitozo, kuko ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi kuko gukora imyitozo ngoramubiri kenshi, bitanga amahirwe yo kugira ubuzima bwiza, umuntu ajye yirinda indwara zitandukanye zitandura harimo nk'umuvuduko w'amaraso diyabete ndetse n'izindi.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkwetoza z'umweru, ari gukora imyitozo ngoramubiri ananura amaboko ndetse n'akaguru kiwe k'iburyo. Iyi aka ari mwe mu nama zitangwa n impuguke mu by'ubuvuzi kuko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza ndetse anirinda indwara zitandukanye, cyane cyane zituruka ku mubyiho ukabije nka diyabete, kanseri ndetse n'izindi.

Agakoresho kifashishwa n'abaganga ndetse n'abandi bose bakora muri serivisi z'ubuvuzi, gafasha abaganga kumva uko umutima utera aho kambikwa k'umutima w'uburwayi, hanyuma umuganga akumva ku mutima utera bikamufasha gufata imyanzuro itandukanye, hari nko gutanga imiti cyangwa se kuyihagarika igihe umuntu ahabwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye.

Umusore wambaye agapira k'uburu n'ipantaro y'umukara yicaye hamwe nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri aho ari kunywa amazi menshi akabama zitangwa'impuguke mu by'ubuvuzi kunywa amazi menshi kandi akora imyitozo ngororamubiri bifasha bikora kugira ubuzima bwiza yirinda indwara zitandukanye harimo nka diyabete umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Igikoresho cyifashishwa n'abaganga bavura amagufwa ndetse n'imvune mu gihe barimo kuvura abarwayi bagize imvune zo mu ivi. Aho iki gikoresho bacyambikwa kugira ngo kibafashe gukanda ndetse no gusubiranya amagufwa n'imikaya byagize ikibazo igihe umuntu agize imvune. Ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi aho ibikoresho bigezweho bikoreshwa mu kunoza iyi serivisi.

Icyapa kigaragaza uko abantu bakora imyitozo ngororamubiri bikabafasha kunanura imikaya, ndetse no kugira ubuzima bwiza birinda indwara zitandukanye aho bagaragaza nko gusutama, kurambura amaboko, gukuba ukuguru ndetse n'izindi byose ari bifasha mu kunura iminsi, iki cyapa kiba cyaratanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubuzima cya babile.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara aryamye hasi ku gatapi aho ari gukora imyitozo ngororamubiri ,ananura amaguru ndetse n'amaboko .Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi gukora imyitozo ngororamubiri kenshi bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza ndetse akanagorora imikaya.

Akuma gafite ibara ry'ubururu gafite imigozi y'umukara kifashishwa n'abavuzi cyane cyane abavura indwara zi amagufwa mu gihe umuntu agize imvune ituma amagufwa ye atandukana. Aho kifashishwa gashyirwa ku kuguru cyangwa kukindi gice cy'umubiri cyavunitse hirindwako amagufwa yatandukana bityo bagahabwa serivisi z'ubuvuzi byoroshye.

Agakarito karimo umuti wa newosipoline. Uyu ukaba ari umuti wifashishwa mu kugabanya uburibwe cyane cyane ku bantu bagize imvune. Ukaba ukoreshwa n'abavuzi b'amagufwa ndetse n'imvune bavura cyane cyane abakinnyi ndetse n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri itandukanye mu gihe bagize ibibazo bitandukanye nk'imvune, kwikanga kw'imikaya ndetse n'ibindi.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, n'ipantaro y'umweru, arimo gukora imyitozo ngororamubiri yicaye ku musambi uri hasi, iyi ikaba ari imwe mu zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi, cyane cyane inanura imikaya, bifasha ubikorara kugira ubuzima bwiza, yirinda indwara zitandukanye zituruka ku mubyibuho ukabije.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abavuzi ndetse n'abandi batanga serivisi z'ubuzima zitandukanye higanjemo amapamba, amapomade, imiti itandukanye ndetse n'ibindi bikoresho binyuranye byifashishwa n'abavuzi b'amagufa ndetse n'imvune aho bari gukora akazi kabo cyane cyane mu bavura abakinnyi ndetse n'abakora imyitozo ngororamubiri mu gihe bagize ibibazo bari mu kazi kabo.

Umukobwa wambaye isengeri y'icyatsi ndetse n'ipantaro y'icyatsi, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri ananura amaguru n'amaboko ndetse n'umugongo. Ibi akaba ari bimwe mu bitangwamo n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no kuywa mazi meza, bifasha ababikora kugira ubuzima bwiza, kwirinda indwara zitandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bitandukanye, byiganjemo imiti, amapomade, ibipfuko, ibinini, ndetse n'uturindantoki, nk'uko byifashishwa n'abaganga cyane cyane abakore akazi kabo hirya no hino kuri tere, aho babyitwaza kugira ngo batange serivisi z'ubuvuzi ku bagira ibibazo bitandukanye bari mu kazi kabo ka buri munsi.

Umusore wambaye agapira k'ikigina ari kunywa amazi ari mu icupa, avuye gukora imyitozo ngororamubiri; iyi akaba ariyo nama zitangwa impuguke by'ubuvuzi, ko kunywa amazi menshi ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza yirinda indwara zitandukanye, cyane cyane zituruka ku mubyibuho ukabije nka diyabete ndetse n'izindi.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zinyuranye hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kunoza serivisi y'ubuvuzi ahakaba hari mu cyumba gisuzumirwamo hagaragara imashini yifashishwa n'abaganga mu gusuzuma indwara z'umutima, ibi hagaragaza iterambere mu buvuzi hirya no hino mu bitaro.

Umukobwa wambaye isengeri y'umutuku ndetse n'ipantaro y'umutuku arimo gukora imyitozo ngororamubiri agorora amaboko yiwe ndetse n'amaguru, aho yicaye hasi kuri tapi asutamye, akuruye amano. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora imyitozo ngororamubiri bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza, yirinda indwara zitandukanye cyane cyane izituruka ku mubyibuho ukabije.

Icyapa cyatanzwe n'ikigo gitanga serivisi z'ubuvuzi cya Babi, aho cyagaragazaga uburyo butandukanye gukora imyitozo ngororamubiri bifitemo akamaro. Aho bagaragaje ko gukora imyitozo ngororamubiri bigabanya umuvuduko w'amaraso, bikagabanya sitiresi ndetse bikanatuma umuntu amera neza.

Umusore urimo kunywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri. Iyo akabaikaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ku ukora imyitozo ngororamubiri ndetse no kuba yanywa amazi meza asukuye. Bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza, birinda indwara zitandukanye zifata ubuzima harimo umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Ameza arambitseho amafunguro atandukanye yiganjemo imboga ndetse n'imbuto. Harimo n'umutobe uri mu kirarahuri ukozwe mu mbuto, iruhande rwabyo hari utwuma twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, cyane cyane igihe umuntu ananuye imikaya mu maboko. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko kurya imbuto ndetse no gukora imyitozo ngoramubiri, bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza.

Umusaza wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara aho arimo gukora imyitozo ananura amaguru agenda afashe ku twuma twabugenewe afashijwe n'umuforomo ushinzwe kumwitaho. Akaba ari mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze, aho bitabwaho umunsi ku wundi bahabwa serivisi zitandukanye z'ubuvuzi hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza nka kimwe mu byiciro by'abantu bakunda kwibasirwa n'indwara zitandukanye.

Agakoresho kifashishwa n'abavuzi, cyane cyane abavura imvune ndetse n'amagufwa, igihe barimo kuvura abakora imyitozo ngoramubiri ndetse n'abakinnyi, bari gukuna imikino itandukanye bakagira ibibazo by imvune, bakifashishwa bene aba baganga mu gihe barimo kunoza akazi kabo ka buri munsi.

Umukobwa wicaye arambuye ukuguru kwiwe ku iburyo, azamuye uk'ibumoso, afatiye urubura rukonje rufite ibara ry'ubururu ku kabumbambori, aho yagize ikibazo cy'imvune, iki akaba ari kimwe mu bikoresho byifashishwa mu kugabanya uburibwe, cyane cyane iyo umuntu agize imvune ku gice cy'umubiri runaka.

Umukobwa wambaye isengeri y'ikigina, arimo gukora imyitozo ngororamubiri yo kunanura amaboko ndetse no mu bitugu, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impupuguke mu by'ubuvuzi, ko gukora imyitozo ngororamubiri bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza, ndetse hanirinda indwara zitandukanye cyane cyane zituruka ku mubyibuho ukabije harimo nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete, ndetse n'izindi.

Imashini yifashishwa n'abaganga mu gusuzuma ikigero cy'isukari kiri mu maraso y'umuntu cyangwa se n'umuntu ku giti cye akaba yayisuzuma, ibi bikagaragaza iterambere mu buvuzi aho ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga bishobora kwifashishwa mu kunoza izi serivisi z'ubuvuzi.

Umusore uri mu nyubako zikorerwamo imyitozo ngoramubiri zitandukanye zizwi nkaginasitiki aho abantu bajya bagakora imyitozo inyuranye harimo kunura amaboko, kunanura amaguru, guteru ibyuma kwirukanka ndetse n'ibindi byose bananura imitsi ndetse bafasha umubiri wabo kugira ubudahangarwa ku ndwara zitandukanye cyane cyane zituruka ku mubyibuho ukabije harimo nka diyabete kanseri ndetse n'izindi.

Umukobwa wambaye isengeri y'ubururu ari kunywa amazi ndetse yambune ekuteri ari mu myitozo ngororamubiri akaba ari n'inama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi ndetse no kunywa amazi meza asukuye bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza ndetse anirinda indwara zitandukanye cyane cyane zitandura nka diyabete, umuvuko w'amaraso ndetse n'izindi.

Umuganga w'imvune ndetse n'amagufwa arimo gufasha umusore wicaye imbere ye gukora imyitozo ngororamubiri, aterura ibyuma biremereye, mu rwego rwo kumufasha kurambura imikayi. Iyi akaba ari muri serivisi zitangwa n'abo bavuzi mu rwego rwo gufasha kubavura kugira ubuzima bwiza birinda ko barwara indwara zitandura nka Diabet ndetse n'izindi.

Icyumba cyagenewe korerwamo imyitozo ngororamubiri hagaragara ibikoresho byabugenewe, harimo ibyo guterura, ibyuma byo kwirukaho, imigozi yo gusimbuka ndetse n'izindi, byose bifasha gukora imyitozo ngororamubiri kuyinoza, ndetse iyi ikaba ari mwe mu nama zitanga n'impuguke mu by'ubuvuzi ko umuntu agomba gukora imyitozo ngororamubiri kenshi, bikaba ari ukugira ubuzima bwiza.

Igikapu cy'ibara ry'umutuku gifite imigozi y'umukara kizwi nka mobayiro kiriniki aho cyifashishwa n'abatanga serivisi z'ubuvuzi cyane cyane abaganga bavura abakinnyi bari mu mikino ndetse n'imyitozo ngoramubiri itandukanye aho batwaramo ibikoresho bitandukanye by'ibanze harimo nk'imiti, amapamba ndetse n'ibindi bakenera igihe bari gutanga serivisi z'ubuvuzi kuri abo bakinnyi.

Abasore bari gukora imyitozo ngororamubiri yo kwirukanka ku maguru. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi, ko gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye, bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza, yirinda indwara zitandukanye, ziganjemo izituruka ku mubyibuho ukabije nka diyabete, kanseri ndetse n'izindi.

Umuntu urambuye ukuboko afatiyeho uruburaro rukonje ibizwi nka barafu ibi akaba aribyo yifashishwa n'abatanga serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ku bakinnyi ndetse n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri mu gihe bagize ibibazo bitandukanye bibafasha ko bibagabanyiriza uburibwe hifashishijwe uru rubura.

Umuti uri mu icupa ry'umweru wa stop pain. Uyu muti ukaba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye cyane cyane ziganjemo iz'imitsi, imvune ndetse n'izindi, aho iyi miti ikorwa hifashishijwe ibimera, igatunganywa neza, ikabyazwamo iyi miti cyane cyane yifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri mu gihe baba bagize ibibazo byo kwikanga kw'imikaya, kuvunika cyangwa se ibindi.

Agakarito karimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga b'imvune ndetse n'amagufwa bavura abakinnyi ndetse n'abandi mu myitozo ngororamubiri mu gihe bari mu bikorwa byabo bya buri munsi, aho bifashisha ibikoresho mu kunoza serivisi batanga hagamijwe ko abazihabwa bagira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye insengeri y'icyatsi arimo gukora imyitozo ngororamubiri ananura amaboko. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi bifasha abayikora kugira ubuzima bwiza, birinda indwara zitandukanye zitandura, harimo nka diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Umuntu urimo gusuka amazi meza mu kirahuri agiye kuyanywa. Iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi, ko kunywa amazi kenshi bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, cyane cyane yirinda indwara zifata impyiko ndetse n'izindi zitandukanye, aho amazi afite uruhare runini mu gufasha ubuzima bw'umuntu kumera neza ndetse no gukora uko bikwiriye.

Icyapa kigaragaza ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abatanga serivisi z'ubuvuzi zinyuranye hagamejwe ko banoza imitangire ya serivisi ku bo bakira, ndetse banazamura ireme ry'ubuvuzi muri rusange. Hagaragaramo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma umuvuduko w'amaraso, imashini zifashishwa mu gusuzuma isukari, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umukobwa wambaye insengeri y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kurambura amaboko ndetse n'amaguru. Ibi akaba ari bimwe mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora imyitozo ngororamubiri ndetse no kunywa amazi meza, kugerekaho kurya indyo yuzuye bifasha ababikora kugira ubuzima bwiza, birinda indwara zitandukanye.

Umukobwa wambaye isengegeri y'umukara ndetse n'ipantaro yi'kigina, yicaye kuri tapi imbere hateretse mudasobwa ndetse harimo utwuma arimo kwifashisha akora imyitozo ngororamubiri itandukanye. Iyi ni imwe munama zitanye n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza yirinda indwara zitandukanye cyane cyane zituruka ku mubyibuho ukabije.

Mu bitaro kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, aha hakaba ari mu cyumba cyagenewe kubagwa, hagaragara ibikoresho ndetse n'urumuri ruhagije byose byifashisha ikoranabuhanga, ibi bikanoza umwuga ndetse bikanafasha abakora izi serivisi mu kunoza akazi kabo, bikagaragaza iterambere mu buvuzi kandi hirya no hino mu gihugu.

Umugabo wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, arambaraye hasi ari gukurura ibyuma, akoresheje umugozi uziritse ku kaguru ,iyi akaba ari imyitozo ngororamubiri ikorwa mu byumba byagenewe gukorerwamo imyitozo bizwi nka jimu, aho abantu bakora imyitozo ngororamubiri itandukanye hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza, bananura imikaya ndetse banirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umubyibuho ukabije.

Inkweto ndende cyane ziri mu ibara ry'umukara, ndetse zikaba zifashishwa n'abafite ibibazo bitandukanye by'imvune ndetse n'ubumuga bw'ingingo. Aho bambara izi nkweto zikabafasha kuringaniza ibirenge, ndetse no kugenda neza ku bafite ibibazo by'imvune. Izi zikaba zitangwa n'abaganga b'imvune ndetse n'amagufwa bavura hirya no hino mu gihugu.

Umusore wambaye agapira k'umweru urimo kunywa amazi meza ari mu icupa ry'ubururu, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri. Ibi akaba ari bimwe mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuvuzi, kuko gukora imyitozo ngoramubiri ndetse no kunywa amazi meza kenshi, bifasha ababikora kugira ubuzima bwiza birinda indwara zitandukanye zitandura harimo nka: diyabete, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi.

Icyapa cyifashijwe na Minisiteri y'ubuzima, gikangurira abantu gukora imyitozo ngororamubiri, ubwo cyaberekaga ari umuti umwe ku ndwara zitandukanye'umubyibuho ukabije, diyabete ndetse n'izindi, aho bagiraga abantu gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye nko kwiruka, gukina umupira, guterura ibyuma ndetse n'izindi zitandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, aterura ibyuma, asutamye. Aho arimo kwerekerwa n'umukozi ukora mu nyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri itandukanye ibi bikaba ari bimwe mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuvuzi, ko gukora imyitozo ngororamubiri kenshi bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza, yirinda indwara zitandukanye.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri, arambura ukuguru kwiwe kw'ibumoso n'amaboko. Ibi bikamufasha kunanura imitsi ndetse n'imikaya, hagamijwe ko agira ubuzima bwiza ndetse anirinda indwara zitandukanye, cyane cyane izituruka ku mubyibuho ukabije.

Mu bitaro kwa muganga ahatangirwa serivise z'ubuvuzi zitandukanye, aha hakaba ari mu cyumba gisuzumirwamo indwara zo mukanwa. Hagaragara intebe yicarwamo n'umurwayi ishobora kuzamurwa cyangwa ikamanuka, bitewe n'ibyo bagiye kumusuzuma. Hari kandi n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kunoza izi serivise.

Igikoresho kizwi nk'imbago gikoze mu cyuma gifite ahafatwa ndetse n'ashyirwa ukuboko cyifashishwa n'abafite ibibazo by'imvune bitandukanye cyangwa abagize ubumuga bw'ingingo cyane cyane iz'amaguru bibafasha mu kugenda aho bafatamo bakagenda bagacuma hirya no hino kabafasha kugenda, kagaragara hirya no hino mu mavuriro ndetse gafasha abafite ibibazo bitandukanye gukomeza kugira ubuzima ndetse no gukomeza ubuzima bwabo bwa buri munsi bifashishije aka gakoresho.

Ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo, ikorwa mu bimera yiganjemo imitobe ndetse n'amafu anyuranye avura indwara zitandukanye. Yaba iz'uruhu ndetse n'iz' imbere mu mubiri, biturutse kuri bimera biboneka hirya no hino mu gihugu. Muri ibyo bimera hari nk'imiravumba, capusinine ndetse n'ibindi.

Agacupa k'umuhondo karimo amavuta ya Forever Aloe Vera Gel, aya akaba ari amavuta avura indwara z'uruhu zitandukanye, harimo nk'ibiheri, ibishishi, ise ndetse n'izindi. Aho aya mavuta akorwa hifashishijwe ikimera cy'igikakarubamba cyifitemo ubushobozi bwo kuvura bene izi ndwara.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'Akagera Medisinizi, iki akaba ari ikigo gikora imiti kifashishije ibimera bitandukanye, aho kibitunganya neza kikabibyazamo imiti yifashishwa mu buvuzi hirya no hino mu gihugu, gisanzwe kandi gicuruza n'indi miti ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kunoza serivisi z'ubuvuzi.

Amacupa ndetse n'amakarito bitandukanye birimo imiti ikorwa hifashishi ibimera harimo nka alvelgil aya akaba n'amavuta akorwa hifashishijwe ikimera igikakarubamba aho atunganywa neza kugira ngo avure indwara zitandukanye z'uruhu harimo nk'ibiheri ,ibishishi ndetse n'izindi, aho bikorwa bigendeye ku bushobozi bw'iki kimera mu kuvura bene izo ndwara no mu busanzwe.

Ubusitani buhinzemo ibimera bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye harimo nk'ibiheri, inkorora, inzoka zo mu nda ndetse n'izindi aho ibihingwa bitunganywa neza hanyuma imiti ikuwemo igakoreshwa n'abaganga mu kuvura bene izi ndwara hagamijwe ko abafatati imiti bagira ubuzima bwiza.

Amakarito arimo umuti wa natura setiyarize, uyu ukaba ari umuti ukorwa hifashijwe ibimera, ugacuruzwa na kompanyi ya arinse gorobo, aho uyu umuti ufasha mu kuvura indwara z'ubuzima zitandukanye; harimo umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi. Iyi miti ikaba itunganywa hifashishijwe ibimera biboneka hirya no hino mu gihugu.

Ikibabi gifite ibara ry'icyatsi kirambuyeho ibinini bifite ibara ry'ikigina, iyo akaba ari ibinini byakozwe hifashishijwe ibimera bitandukanye cyane cyane byiganjemo umuravumba nk'uko bigaragara mu ifoto, aho watunganyijwe neza n'uruganda hanyuma ukabyazwamo ibi binini byifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye cyane cyane zifata imyanya y'ubuhumekero.

Amacupa menshi ari hamwe afunze neza arimo imiti itandukanye yakozwe hifashishijwe ibimera binyuranye, aho bitunganywa neza hanyuma bikabyazwamo imiti y'ubwoko busukika, aho inyobwa n'abafite ibibazo by'indwara zitandukanye kugira ngo ibakize izo ndwara.

Icyapa kigaragaza ibimera bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti inyuranye ikoreshwa kwa muganga, cyane cyane ivura indwara zifata uruhu ndetse n'izindi. Hagaragaramo nk'ikimera cy'igikarubamba ari kimwe mukingi ya mwamba y'ibimera byifashishwa mu gukora imiti ivura indwara z'uruhu.

Ameza ateguyeho amafunguro y'ubwoko butandukanye nk'uko agize indyo yuzuye, arimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibindi ndwara, higanjemo imbuto ndetse n'ibinyamisogwe bitandukanye, biteretse ku meza ibi byose bikaba ari bimwe mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuvuzi ko kurya indyo yuzuye bifasha ubikora kugira ubuzima bwiza, yirinda indwara ndetse anaha umubiri we ubudahangarwa ku ndwara zitandukanye.

Inyubako icururizwamo imiti ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byita ku buzima zizwi nka farumasi ahagaragara imiti itandukanye yifashishwa mu kunoza serivisi z'ubuvuzi yaba iyandikwa n'abaganga cyangwa se iyo umuntu agura ku giti cye kugira ngo imufashe kugira ubuzima bwiza yivura indwara zitandukanye.

Agacupa gafite ibara ry'umweru kariho icyapa cy'ubururu, aka gacupa kaba karimo umuti wa foreva agitikisi, uyu akaba ari umuto ukorwa hifashishijwe ibimera bizwi nk'ibikakarubamba, aho uvura indwara zitandukanye harimo iz'uruhu ndetse n'iz'imbere mu mubiri bitewe n'ubushobozi bw'igikarubamba mu kuvura izi ndwara.

Amacupa arimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu, iyi miti yose ikaba ikorwa hifashishijwe ibimera bitandukanye byiganjemo igikakarubamba, aho n'ubundi kifitemo ubushobozi bwo kuvura bene izi ndwara harimo nk'ise, ibiheri, ibishishi, ndetse n'izindi.

Igiti kinini cy'umuravumba cyifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, aho amababi yacyo asorumwa hanyuma agakamurwamo umushongi ariwo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye cyane cyane zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse n'uruhu harimo nk'ise, ibiheri, ndetse n'izindi.

Amavuta ya forever bright tooth gel, aya akaba ari amavuta yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata mu kanwa cyane cyane zituruka ku mwanda aho hakorwa hifashishijwe ikimera cy'igikakarubamba kigaragara hirya no hino mu gihugu kikaba kifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye cyane cyane zibasira umubiri w'umuntu ziterwa n'udukoko.

Uducupa ndetse n'amakarito birimo imiti itandukanye ikorwa hifashishijwe ibimera bitandukanye cyane cyane hibandwa ku kimera cy'igikakarubamba aho harimo nk'amavuta ya foreva arowe beri nekita aka aya ari amavuta akorwa hifashishijwe ikimera cy'igikakarubamba ndetse n'ubuki avura indwara z'uru zitandukanye nk'ibiheri ndetse n'ibishishi.

Amacupa ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, arimo imiti yifashwa mu z'uvura indwara zitandukanye ziganjemo ibiheri, ise ndetse n'izindi. Aho iyi imiti ikorwa hifashijwe ibimera bitandukanye bigendeye ku bushobozi bw'ibyo bimera mu kuvura bene izo ndwara.

Icyapa kigaragaza ibimera bitandukanye ndetse n'imiti ikorwa muri ibi bimera munsi yayo, aho hagaragaramo nk'umuravumba, ndetse ukorwamo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, harimo nk'inkorora, ibiheri, gufuruta ndetse n'izindi.

Ikarito irimo amacupa menshi arimo amavuta ya aruwe vera jeri, aya akaba ari amavuta yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu, harimo nk'ibiheri, ibishishi, ise ndetse n'izindi, kandi aya mavuta akaba akorwa, hifashishijwe ikimera k'igikakarubamba.

Umumama wifubitse agasharupe k'umweru, afite agakapu mu kuboko, aho ari gusoroma ibibabi by'ibihingwa byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ibihingwa bikaba bikomorwamo umutobe, ariwo wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye nk'inkorora, inzoka zo munda ndetse n'izindi.

Ubusitani burimo ibimera bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi hirya no hino, bibyazwamo imiti ivura indwara zinyuranye nk'inkorora, ibiheri, ibishishi ndetse n'izindi, muri ubu busitani harimo kapucine ,umuravumba, rumari ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Agashashi gafite ibara ry'umuhondo karimo umuti wakozwe hifashishijwe ibimera bitandukanye, aho watunganyijwe neza kugira ngo ukoreshwe n'abafite ibibazo by'indwara zitandukanye ziganjemo inzoka zo mu nda ndetse n'izifata imyanya y'ubuhumekero hagamijwe ko bagira ubuzima bwiza. Imiti ikaba ikorwa hafatwa ibimera bitandukanye bigatunganywa neza mo bene iyi miti.

Amacupa arimo imiti itandukanye yose ikorwa hifashishijwe ibimera gakondo bigaragara hirya no hino mu Gihugu, harimo nk'ibikakarubamba, imibirizi, kapusine ndetse n'izindi. Ibimera byose bikaba bitunganywa neza bikabyazwamo imiti yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, yaba ku ifata indwara z'uruhu ndetse n'indwara zifata imbere mu mubiri.

Icyapa cyamamaza amavuta ya Alowe Vela Geri. Aya akaba ari amavuta yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu zinyuranye harimo ise, ibiheri, ibihushi ndetse n'izindi. Aho aya mavuta akorwa hifashishijwe ikimera cy'igikakarubamba cyifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zinyuranye z'uruhu, ndetse no gutuma ruhehera rukamera neza.

Amababi y'ikimera cya rumari kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata umubiri w'umuntu, harimo nk'izibasira mu nda ndetse no mu mihogo zinyuranye aho amababi y'iki gihingwa atunganywa neza akabyazwamo umushongi ari wo wifashishwa mu kuvura bene izi ndwara hirya no hino mu gihugu.

Ibiganza by'umuntu ufasheb ibabi ry'igihingwa cy'umubirizi, aho bihinze mu busitani, iki gihingwa kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, aho amababi yacyo asoromwa agakamurwamo umutobe, ariwo ufasha abari kuvura bene izi ndwara zifata imyanya y'ubuhumekero zitandukanye, harimo nk'inkorora ndetse n'izindi zinyuranye.

Agacupa k'umweru karimo umuti wa vitorize. Uyu muti ukaba uvura indwara z'amaso zinyuranye kandi ukaba ukorwa hifashishijwe ibimera bitandukanye harimo nka capusine ndetse n'ibindi, aho bitunganywa neza mu nganda hanyuma bikabyazwamo iyi miti yifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi hirya no hino.

Umumama ukenyeye ibitenge urimo gusoroma amababi y'ikimera cya rumaRi gifite indabo z'umutuku kimera, kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye aho amababi yacyo asoromwa hanyuma agakurwamo icyayi cyifashishwa mu kuvura indwara zo mu mihogo, n'inkorora, uburibwe ndetse n'izindi

Ameza arambuye agatambaro k'ikigina hariho ibikoresho bitandukanye harimo nk'agakomereretse n'isahani, yambitseho imbuto ndetse n'icyayi bigiye kuribwa n'umuntu umwe, mu bari mu kigo cyagenewe kwita ku bakuze bakaba mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza, hitabwa ku mirire yabo aho bibanda kurya ku mbuga ndetse n'imbuto, nka bimwe mu bifata uruhare runini mu kurinda indwara.

Icyapa cyifashijwe mu gukora ubukangurambaga bw'umuti wa Foreva hani, uyu akaba ari umuti ukorwa hifashijwe ibimera bitandukanye aho uvura uburibwe cyane cyane bufata mu ngingo nko; mu mavi, mu nkokora, mu rutugu, mu mugongo ndetse n'ahandi. Uyu muti ukaba ukorwa hifashishijwe ibimera kandi ukaba wujuje ubuziranenge.

Ubusitani burimo ibimera byiganjemo imiravumba ndetse n'ibindi bihinze neza mu macupa aho bikorwamo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, cyane cyane izifata urwungano rw'ubuhumekero ndetse n'uruhu, iyi miti ika itunganywa hifashishijwe ubumenyi bw'abavuzi gakondo aho bayibyazamo umutobe cyangwa umuti usigwa ku ruhu.

Udukarito turimo uducupa tw'amavuta asigwa ku minwa twakozwe hifashishijwe ibimera by'igikakarubamba, aho aya mavuta afite ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye cyane cyane zifate ku bice byo ku munwa, aho asigwaho ku bw'ubushobozi bw'ibimera bikoze iyi miti mu kurwanya izo ndwara.

Ubusitani buhinzemo ibimera bitandukanye byiganjemo ibyifashishwa mu gukora imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, yaba izo kuruhu cyangwa se iz'imbere mu mubiri. Aho ibihingwa bitunganywa neza bikabyazwamo bene iyo miti ifasha impuguke mu by'ubuvuzi mu kunoza akazi kabo bavura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti ikorwa hifashishijwe ibimera.

Icyapa kirimo ibara ry'ikijuju kigaragaza imiti itandukanye ikorwa hifashishijwe ikimera cy'igikarubamba ahakaba harimo nk'umuti wa Alva gelly wifashishwa mu kuvura indwara zabo zitandukanye nk'ise, ibiheri, ibihushi ndetse n'izindi uyu muti ukabakuru hifashishijwe igikakarubanda.

Amakarito arimo imiti itandukanye yagiye ikorwa hifashishwa ibimera ndetse n'ibihingwa bitandukanye bikungahaye ku binyabutabire ndetse n'imyunyu ngugu inyuranye harimo nk'imineke, inanasi ndetse n'ibindi, harimo kandi n'iyakozwe hifashijwe ibimera nk'ibikakarubamba, imiravumba ndetse n'indi, byose bigamije gufasha abayikoresha kugira ubuzima bwiza.

Isabune ya alowe brosomu herbal tea akaba ari isabune yakozwe hifashijwe ibimera by'igikakarubamba isabune ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ziganjemo ibiheri, ise ndetse n'izindi bigendeye ku bushobozi bw'igikakabamba mu kuvura bene izi ndwara.

Uducupa turimo amavuta ya allowe vera geri aya akaba ari amavuta akorwa hifashijwe ikimera cy'ikakarubamba aho aya mavuta tuvura indwara zihu zitandukanye harimo nk'ise, ibiheri, ibishishi ndetse n'izindi zinyuranye tugendeye ku bushobozi bw'igikakarubamba cyifitemo.

Isahani iriho ifu ifite ibara ry'icyatsi, iyi fu ikaba yaratunganyijwe mu mababi y'ibimera bitandukanye hagamije ko ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zinyuranye bwiganjemo izifata imyanya y'ubuhumekero ndetse n'inzoka zo mu nda zinyuranye, aho ishyirwa mu mazi hanyuma umutobe ikoze ukaba ari wo unyobwa n'ufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima hagamijwe ko amera neza.

Ikimera cy'umuravumba gifite amababi y'icyatsi, aho aya mababi yifashishwa mu gutunganya imiti itandukanye cyane cyane ivura indwara zifita urwungano rw'ubuhumekero ndetse n'izindi, aho aya mababi akamurwamo umushongi ari wo wifashishwa mu kuvura bene izi ndwara.

Inyubako icururizwamo imiti ndetse n'ibindi bikoresho byo kwa muganga bitandukanye hagaragara imiti myinshi cyane ikozwe mu bimera binyuranye aho iyi miti ikorwa hifashishwa ibimera bitunganywamo neza iyi miti ikifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye hagamijwe ko abayifata bagira ubuzima bwiza.

Amacupa arimo imiti itandukanye, yifashishwa mu gukora serivisi z'ubu zinyuranye, cyane cyane hibandwa mu kuzamurira umubiri ubudahangarwa, umuntu afata ibiryo cyangwa se inyunganifunguro irimo intungamubiri zitandukanye, byose bika bikurwa mu bimera bitandukanye, mu rwego gufasha aba abikoresha kugira ubuzima bwiza.

Umuntu urimo gushyira umuti wagenewe kuza mu kanwa ku buroso ngo akora isuku yo mu kanwa, uyu muti ukaba warakozwe hifashishijwe ibimera bizwi nk'ibikakarubamba, aho bitunganywamo uyu muti, ufasha abantu kugira isuku yo mu kanwa, birinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa, zituruka ku mwanda nk'ifumbi ndetse n'izindi.

Mu nyubako itunganyirizwamo imiti gakondo itandukanye hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutunganya imiti harimo nk'isekururo, umuhini, amafu ndetse n'ibindi by'ibanze byifashishwa mu gukora imiti nk'imbuto, amababi y'ibishishwa ndetse n'ibindi bitandukanye, aho bisekurwa neza bikabyazwamo ifu ariyo yifashishwa mu gukora imiti ivura bene izo ndwara.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti inyuranye yaba iy'amafu cyangwa se iy'umutobe mu bimera bitandukanye, hifashishijwe ibikoresho bigizwemo n'isuku ndetse n'umuhini bya kijyambere uducupa tubikwamo imiti yamaze gukora ndetse n'aho basekurira. Ibi bikaba bigamije ko abaturage bagira ubuzima bwiza bivuza imiti gakondo ituruka ku bimera biboneka hirya no hino mu gihugu.

Amacupa arimo imiti itandukanye ndetse n'udukarito turimo imiti, byose byakozwe hifashishijwe ibimera bitandukanye, mu rwego rwo gufasha abavuzi kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane zikibanda ku ruhu, hakoreshejwe ibimera binyuranye, nk'igikarubamba ndetse n'ibindi.

Icyapa cyamamaza amavuta yakozwe hifashishijwe ibimera bitandukanye, harimo igikakarubamba ndetse n'ubuki ya Aloe Berry Nectar. Aya mavuta akaba yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu zinyuranye, harimo nk'ibiheri, ibishishi ndetse n'izindi zitandukanye.

Uducupa turimo umuti wa Aloe Vera Gelly. Uyu ukaba ari umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu ziganjemo ibiheri, ibishishi ndetse n'izindi. Aya mavuta akaba akorwa hifashishijwe ibimera by'igikakarubambaga, aho gifite ubushobozi bwo kuvura bene izi ndwara zifata uruhu.

Icyapa cyamamaza umuti wa Fibroid Natural Treatment. Uyu akaba ari umuti wifashishwa mu kuvura indwara ya Fibroid, aho bagaragaza ko bitakigoye ko abantu bahabwa serivisi zo kubagwa ahubwo bakifashisha uyu muti ukabafasha gukira iyi ndwara, bidasabye ko bakorerwa ibikorwa byo kubagwa.

Ubusitani bugaragaramo ibihingwa by'amoko atandukanye bihinze mu ndobo zirimo itaka, ibihingwa bikaba byezwamo imiti itandukanye byifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye, yaba iz' uruhu cyangwaza imbere mu mubiri. Aho amababi yabyo asoromwa hanyuma agatuganywamo iyi miti, hagamijwe ko abayifata bagira ubuzima bwiza.

Icyapa kigaragaza ibimera bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi zinyuranye, cyangwa se ibibyazwamo imiti itandukanye, hagaragaramo nk'imiravumba, kapusine ndetse n'ibindi, zimwe mu ndwara zivurwa harimo kugabanuka kw'isukari, ibishishi, gufuruta ndetse n'izindi.

Umumama wambaye ikanzu y'icyatsi, urimo gutunganya imiti gakondo yifashishije ibimera bitandukanye. Aho yasoromye amababi yabyo akaba arimo kuyashyira mu isekuru kugira ngo ayasekure, ayabyaze ifu yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ndetse no gufasha abayikoresha kugira ubuzima bwiza.

Agashashi gafite ibara ry'umuhondo karimo imiti yakozwe hifashishijwe ibimera aho byatunganyijwe neza hanyuma bigakorwamo imiti igafungugwa muri aka gashashi mu rwego rwo gufasha abafite ibibazo by'ubuzima bitandukanye imiti ikaba itunganywa hirya no hino mu nganda bakoresheje ibiti bisanzwe bivura indwara zinyuranye biboneka hirya no hino mu gihugu.

Agakarito karimo imiti yifashishwa n'abatanga serivisi z'ubuvuzi hirya no hino mu gihugu. Aho aka gakarito karimo imiti yifashishwa mu kunoza serivisi z'ubuvuzi, yaba ku bavuzi bakorera kwa muganga ndetse n'abakorera hirya no hino kuri tere, mu gihe bagiye kuvura indwara ndetse n'abantu bari mu bikorwa bitandukanye.

Ubusitani burimo ibyatsi byinshi cyane bifite amababi y'icyatsi byifashishwa mu gukora imiti itandukanye ivura indwara zinyuranye zirimo nk'ibiheri, ibishishi inkorora ndetse n'izindi ibi biti bisarurwa neza nyuma bigatunganywamo imiti yifashishwa n'impuguke mu by'ubuvuzi cyane cyane bavura indwara zigaragara ku ruhu ndetse n'izimbere mu mubiri zitandukanye.

Mu imurikagurisha ryari ryabereye mu mujyi wa Kigali, hari hatumyemo abakora serivise z'ubuvuzi zitandukanye, cyane cyane gakondo aho bari batumiwe kugira ngo bamurike ibyo bakoresha ndetse n'ibyo bakora mu kazi kabo ka buri munsi, hagaragara umugabo urimo kugaragaza imbuto ndetse n'amacupa hari n'imiti itandukanye akora yifashishije ibimera yose iikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ingemwe z'igiti cy'umubirizi uhinze mu busitani bwiza, aho witabwaho n'uwawuhinze kugira ngo utange umusaruro, ibi biti by'imibirizi bikaba byifashishwa n'impuguke mu by'ubuvuzi ndetse n'abatanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye mu kuvura indwara zinyuranye ziganjemo izifata imyanya y'ubuhumekero ndetse n'uruhu, nk'ibiheri, ibishishi, ndetse n'izindi, bahabwa imiti ikomoka kuri iki kimera.